Abayobozi b'inzego zitandukanye bahuriye hamwe barimo kuganira ku iterambere ry'abaturage bayoboye, harimo abagore ndetse n'abagabo.

Inzu nini yahuriyemo n'abantu benshi, bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye. Hari ibitambaro byifashishijwe n'imitako biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Bishushanya idarapo ry'u Rwanda.

Abaturage bahuriye hamwe bari mu cyumba kinini, bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ameza ateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa, bafite amakaramu ndetse n'amakayi bari kugenda bandikamo ibyo barimo kuganirizwa.

Abaturage bahuriye hamwe mu cyumba. Hariho abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo mudasobwa. Hari n'abandi bafite amakaye mu ntoki ndetse n'amakaramu. Uducupa turimo amazi turi imbere yabo.

Umubyinnyi w'imbyino gakondo. Arimo kubyina arizihiwe arimo guseka ateze amaboko, neza, yambaye umushanana w'umweru. Inyuma ye hariho indabo nziza ziri, mumabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Umubyinnyi w'imbyino gakondo arizihiwe arimo kubyina urabona ko yishimiye ibyo arimo gukora, arimo araseka, inyuma ye hariho indabo ndetse n'indi mitako myiza cyane, hari ubusitani bwiza cyane.

Ababyinnyi babukereye barimo kubyina umudiho, barizihiwe baraseka bambaye imishanana myiza, hari abantu barimo bareba imbyino zabo bikabashimisha.

Ibyibo bitanu biteretse kumeza. Ibyibo biri mu mabara y'igitaka ndetse n'umukara, biteretse ku meza akozwe mu biti nyuma yaho hariho ibara ry'ubururu.

Imodoka nini ikoreshwa n'abantu mu gutsindagira umuhanda wa kaburimbo kugira ngo ukomere, iruhande rwayo hariho abantu barimo kugenda banoza ibyo imodoka yasigaje, iruhande rwaho hariho inzu iteye irangi ry'umweru.

Inyubako nziza igeretse iteye irangi ry'umweru n'umuhondo, imbere yaho hariho ubusitani bwiza buteyemo indabo.

Inzu nini nziza cyane, iteyeho amarangi y'icyatsi ndetse n'igitaka, imbere yaho hariho abaturage barimo kuganira, hariho n'ubutaka bwiza cyane.

Inzu yubatse, haciyeho umuhanda munsi yayo, iruhande rwayo hariho ubusitani bwiza, inkuta zisize amarangi y'umuhondo ndetse n'ikijuju.

Inyubako nziza iri ahantu heza, hari umuhanda wubatse neza, impande yaho hari indabo nziza ndetse hari n'ubusitani burimo idarapo ry'igihugu.

Abaturage bicaye ku muryango bategereje umuntu uzakufasha, hari amagambo yanditse ku nyubako ariho agira ati <<Urukiko rw Ibanze rwa Nyagatare>>, baje ngo babafashe.

Umubyeyi ufashe akaboko umwana we yikoreye n'umuzigo ku mutwe, barimo kwambuka ikiraro cyubatse mu biti, imbere ye hari umwana urimo kumureba iruhande rwabo hateye ibiti byiza cyane.

Inzego z'umutekano zahuye nabaturage, bambaye inifomu yabo, abaturage bambaye furari n' imipira igaragaza ko hari igikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi.

Inzego z'umutekano zahuriye hamwe n'abaturage barimo bahabwa ibiganiro n'umugabo ufite impapuro mu ntoki ziriho ibyo arimo abaganiriza, bafite intebe bicayeho zikoze mu mbaho z'ibiti.

Ikibuga kiriho abantu benshi b'ingeri zose, harimo abana, abagore ndetse n'abagabo, hari indangururamajwi ziri gutuma bumva ibiganiro barimo guhabwa.

Abaturage bari mu nama ku munsi mpuzamahanga w'umwana. Barimo barababwira ko ari ngombwa ko abana bagomba guhabwa uburezi.

Inzego z'umutekano zahuye n'abaturage mu gikorwa cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane. Bambaye udutambaro tugaragaza igikorwa barimo.

Inzego z'umutekano zahuriye hamwe n'abaturage, bari mu nama baraganira, hariho abaturage bari imbere, bafite amagare, bisa nk'aho ari igihembo bahawe n'abayobozi.

Abaturage bahuriye hamwe, barimo kuganira n'abayobozi, barimo kubaha ibiganiro mu ngingo zigiye zitandukanye. Harimo abagore ndetse n'abagabo. Bari munsi y'uduti twiza, barimo kota agacucu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ikinyabiziga cyitwa ipikipiki. Hariho umuntu ugitwaye ahetse n'undi. Bambaye ingofero ibarinda kwangirika umutwe mu gihe habaye impanuka. Inyuma yaho hariho imodoka ninini.

Ibikoresho bifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu babivana ahantu hamwe babijyana ahandi, hari umugore n'umugabo barimo kuganira mbere yaho hari inyubako nziza iteye irangi ry'umweru.

Abaturage bahuriye hamwe baricaye, barimo kuganirizwa n'inzego z'umutekano, bababwira aho umutekano ugeze. Hari indangururamajwi zifashishwa kugira ngo bumve ibyo bavuga.

Abaturage bari mu gikorwa cy'umuganda, barimo baraharura umuhanda bifashishije amasuka ndetse n'ibitiyo, barizihiwe, barishimye baraseka.

Abaturage bahuriye hamwe barimo gukora igikorwa cy'umuganda. Bafite amasuka ndetse n'imihoro. Hariho abandi bari inyuma yabo barimo kubitegereza bareba icyo barimo gukora.

Abaturage bahuriye hamwe bumva inama z'iterambere ry'igihugu ahogeze. Hari abashinzwe umutekano babafasha kubumvisha kwirinda ikibi.

Abaturage bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda. Hari n'inzego z'umutekano, zaje kubafasha kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Barimo gukoresha ibikoresho birimo amasuka ndetse n'ibitiyo.

Umugabo yikoreye ibuye rinini. Ibuye ni igikoresho cyifashishwa mu bwubatsi mu gihe barimo batangira, bakora hasi ku nkingi yo hasi.

Abaturage bari muri siporo rusange, bagorora umubiri kuko siporo, ni ingirakamaro kuko ituma umubiri, urinda indwara, hari amatara meza yifashishwa mu kumurika, mu gihe cya nijoro.

Abana batatu bari mu kibuga bakina umupira, bambaye imyenda igiye itandukanye, umwe yambaye impuzankano ya siporo.

Abakinnyi bambaye impuzankano yabo y'ubururu, umupira n'ikabutura ndetse n'inkweto ziri mabara atandukanye. Bari kwishyushya mu gihe bagiye kujya mu kibuga.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hariho indabo nziza ndetse n'ubusitani. Hariho amatara yaka ku muhanda mu gihe cya nijoro kugira ngo haboneke umucyo abantu bahataha, babona.

Umuhanda w'ibitaka wifashishwa n'abantu mu gihe bavuye ahantu hamwe bajya ahandi. Hashamikiyeho akandi kayira gato nako gakoreshwa n'abantu mu gihe barimo bagenda. Hateye ubwatsi bwifashishwa nk'ibiryo by'amatungo mu buzima bwayo bwa buri munsi.

Umuhanda mwiza urimo kugendwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hariho amatara yaka mu gihe cya nijoro kugira ngo haboneke urumuri.

Umuhanda wifashishwa n'abaturage mu gihe bakora ingendo zibavana hamwe zibajyana ahandi, harimo abanyeshuri bavuye ku ishuri ndetse bafite umutekano.